Leta y'u Rwanda iramenyesha abantu bose ko ku bufatanye na Airtel, iri gutanga moto, aho umuturage agenda bakamuha moto maze akajya yishyura buhoro buhoro bityo nawe akiteza imbere.

Uyu ni umusore uhagaze mu kazu k'ikigo cya sosiyete y'itumanaho ikorera hano mu Rwanda izwi nka MTN akaba ategereje abakiriya ngo abafashe muri serivisi zigiye zitandukanye harimo kubitsa ndetse no kubikuza.

Aba ni abakozi b'ikigo cya sosiyete icuruza ibijyanye n'itumanaho gikorera mu Rwanda kizwi nka Airtel Rwanda, bakaba bari gukangurira abaturage gukorana na bo kuko babafasha kuzigama, kuguza ndetse bikabafasha kwiteza imbere.

Aba ni abantu bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga. Ni umwari mwiza cyane ndetse n'umusore. Bose bambaye neza ,amashati meza cyane y'amaboko maremare batebeje. Bakaba bari gukangurira abantu gukorana na sosiyete ya Airtel.

Uyu ni umuhanda usashemo amapave hakaba haparitse moto ndetse hejuru hariho na kasike, iparitse imbere y'akazu gatanga serivise zigiye zitandukanye harimo iza banki ya Equit ndetse n'iza MTN.

Aha ni ahabereye igikorwa cy'ubukangurambaga, hari abantu bicaye mu mutaka wa Airtel hakaba hari n'abandi baje kubasaba serivisi, aho ubona ko bari kubasobanurira neza uko wakoresha telefone igendanwa, maze ukihamagarira umuntu uri kure.

Aha ni ahabera igikorwa cyo kubitsa ndetse no kubikuza hari umugabo waje kubikuza amafaranga ari gukanda imibare muri telefone ye igendanwa ndetse uri muri aka kazu nawe ari kubara amafaranga agiye kumuha.

Amabanki yunze ubumwe n'amakoperative bityo amabanki aha inguzanyo amakoperative akora ibikorwa by'ubuhinzi mu rwego rwo kugira ngo biteze imbere mu buryo buboroheye bityo nibabona umusaruro na bo bishyura amabanki.

Aha ni ahahingwa igihingwa cy'umuceri, igihingwa cy'umuceri ni kimwe mu bihingwa bizana amafaranga ndetse n'ibyokurya, iki gihingwa amabanki akaba akunze kucyishingira bagakorana nabo, mu rwego kugira ngo amashyirahamwe abihinga yunguke.

Uyu ni umwari ukora ubworozi bw'inkoko, inkoko ze zikaba zifite umusaruro mwiza cyane kandi uhagije, afite inkoko ari kugenda atoreraho amagi zino nkoko zateye ubona ko anezerewe.

Iyi ni imodoka itagaragara neza ariko ikaba ifite ibara ry'ubururu, hari amagambo yanditsemo agira ati "biva momo tima" ikaba ifite amapine y'umukara aho bari gushishikariza abantu gukorana na MTN.

Iri ni ihema ryubatse neza. Harimo umugabo wambaye ikoti ,akaba yambaye n'isaha, afashe igikombe mu ntoki. Iki ni igikombe cyahawe ishyirahamwe ryakoze neza, maze rikesa imihigo nk'uko ryari ryabigennye, ku ubufatanye na banki.

Aba ni abagabo, bigaragara ko ari abakire kandi bihaye, aba bagabo bicaye ahantu heza cyane, inyuma yabo hakaba hariho icyapa, kiriho ikirangantego cya Repuburika y'u Rwanda ndetse n'amagambo yanditseho agira ati: "Kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amakoperative mu karere ka Nyagatare".

Iyi ni inyubako y'akabari ikaba iriho igishushanyo kigaragaza neza ko muri ako kabari uwahageze yishima kuko haba harimo imiziki igiye itandukanye ndetse n'ibyo kunywa, icyo yaba akeneye cyose akibona.

Aka ni akabari keza cyane, gatanga serivisi zinoze. Bafite ibyo kunywa by'amoko yose, nka mitsingi, primus. mitsingi nini ndetse n'intoya. Abakozi baho bakaba batangira serivisi ku gihe.

Aha ni ahatangirwa serivise zigiye zitandukanye zijyanye n'ubucuruzi, harimo amateremusi ndetse n'amabido hakaba hari n'indobo irimo amandazi, aho hano bacuruza icyayi ndetse n'amandazi.

Uyu ni umwari ucuruje mu iduka ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, muri iri duka harimo amavuta, hakabamo ayo guteka ndetse n'ayo kwisiga, harimo amajyani yo guteka mu cyayi, hakabamo n'ibirungo bigiye bitandukanye.

Iyi ni inyubako irimo amabotike agiye atandukanye, abantu baguriramo ibigiye bitandukanye birimo imyenda, ibiribwa ndetse n'ibindi, hakaba haparitse imodoka y'umukara, imbuga ishashemo amapave, inyuma hakaba hagaragara ikirere.

Iri ni iduka ririmo ibintu bigiye bitandukanye kandi byinshi, hakaba harimo umusore wambaye ishati ya makarokaro irimo utubara tugiye dutandukanye uri kugurisha n'uwundi musore nawe wambaye agapira k'umukara karimo utubara tw'umweru.

Iyi ni inyubako icururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye hakaba harimo umugabo ucuruza wambaye itaburiya y'icyatsi kibisi irimo akabara k'umutuku, harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye amavuta yo kwisiga ayo guteka, umuceri ndetse n'akawunga.

Iri ni iduka ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo mama wambaye imyenda y'umuhondo, harimo uturongo tw'umweru ndetse n'umukara, akaba ari gukura ifu mu ibase ayishyira mu ndobo akoresheje ikimamiro, aho inyuma ye hateretse itajeri irimo amavuta ndetse n'ibindi bicuruzwa.

Aha ni ahantu hari amabotike agiye atandukanye kandi acururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, hari ahacururizwa imyambaro, hakaba ahacururizwa imboga n'imbuto ndetse hari n'ahacururizwa ibyo kurya.

Uyu ni umusore wihangiye imirimo arangije akora iduka ricururuza amandazi, icyayi, ndetse n'amaji. Uyu musore akaba yicayemo yambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi. Amandazi meza ari mu ibase itukura.

Iyi ni botike ikaba irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye kandi byinshi, aha tukaba turi kubona isabune y'ifu yifashishwa mu gufura imyenda mu rwego rwo kugira ngo icye kandi inahumure.

Iri ni iduka ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo umumama uricururizamo ugwa neza, akaba ari kwandikira inyemezabwishyu umwari umaze kumuhahira, akaba acuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Iri ni iduka ririmo ibicuruzwa aha turi kubona amapaki menshi cyane y'ibibiriti ndetse n'ibindi bicuruzwa bitari kugaragara neza. Abantu benshi bihangiye imirimo mu rwego kugira ngo babone icyo bakora.

Iri ni iduka ricuruza amavuta yo kwisiga cyane cyane ay'abadamu, ni amavuta atuma uruhu rumi neza, iri duka ririmo amacupa menshi cyane agiye atandukanye y'amavuta yo kwisiga.

Aba ni bamwe mu bagize itorero rya ADPR, bakaba bari mu bikorwa by'ubukangurambaga, bambaye imyenda myiza, bari mu muhanda, bakaba bafite icyapa kigaragaza igikorwa barimo kandi barashyigikiwe.

Aba ni abantu bateraniye mu rusengero bakaba bari guhana amahoro ya Kristu, aho arimo abamama abapapa ndetse n'abana. Uru rusengero abarusengeramo bigaragara ko ari abakire kuko rumeze neza.

Iyi ni inyubako y'urusengero, yubatswe mu buryo bugezweho kuko abaturage batanze amaturo ndetse batanga n'ibya cumi, yewe bakora n'iyo bwabaga kugira ngo biyubakire urusengero rwiza, bityo bigaragare ko bafite amikoro.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe mu rusengero, barishimye cyane hakaba harimo musenyeri wambaye akagofero gato ka oranje, akaba ari gusuhuza umwari byamurenze, ari guseka cyane bose bafite ibitabo bigaragara ko baje gusenga.

Aba ni abayoboke b'idini gatulika imbere hakaba hari padiri wambaye ikanzu yera ndetse hakaba hari n'ibikoresho bigiye bitandukanye bateretse mu mbuga. Hari umusaraba hakaba n'inkongoro zirimo umubiri wa kirisitu.

Uyu ni umusenyeri ugaragiwe n'abapadiri akaba yambaye ingofero y'umushumba ndetse n'inkoni, inyuma hari abakirisitu benshi cyane, abakirisitu batanga amaturo bityo urusengero rukagira amikoro, abapadiri n'abasenyeri bakaba bameze neza.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe mu nyubako y'urusengero yubatse neza cyane, bakaba bari gusenga ndetse batanga n'amaturo kuko byaye neza ko urusengero rukeneye amikoro mu rwego rwo kugira ngo rubashe gukora.

Insengero nyinshi kugira ngo zigire ubushobozi, bifashisha abakiriristu babo, bityo aha hakaba hari umugabo wambaye ikote ry'ubururu n'agapfukamunwa. Afite isakoshi nziza cyane, ari kuyihereza umupasiteri mu rwego kugira ngo uru rusengero rwiyubake.

Aba ni abakirisitu basongera mu itorero ry'abagatolika bakaba bari mu gikorwa cy'umugenzo aho bambaye amakanzu y'umweru hakaba harimo ababikira bambaye udutambaro mu mutwe, imbere yabo hari umuhereza ufite icyotezo mu ntoki.

Iyi ni inyubako y'urusengero nyuma yuko abakirisitu biteranyije bakiyubakira urusengero rwiza cyane, ubu bajya gusenga muri ibi bihe bitoroshye aho babanza gutora imirongo maze bakinjira bakarabye ku ntoki.

Zimwe mu nsengero zabuze amikoro bityo barazifunga bitewe n'uko zitari zujuje ibisabwa, usanga abavugabutumwa bamwe na bamwe batanga inama ndetse n'impanuro zo kugira ngo abayoboke bagerageze bagwize amafaranga bityo insengero ziyubake.

Abana ni abakirisitu bakaba bicaye imbere y'urusengero, uru ni urusengero rwiza cyane, rwubatse mu buryo bugezweho rugeretse inshuro ebyiri, nyuma yuko biteranyije bagatanga amaturo ndetse n'ibya cumi biyubakiye urusengero nk'abantu bafite amikoro.

Iyi ni inyubako nziza cyane ya hotel yubatswe mu buryo bugezweho, yubakishijwe amatafari ahiye, isakaye kandi isize amarangi meza hakaba harimo imikindo ndetse n'ubwatsi bwa pasparoma. Iyi mikindo itanga umuyaga ku buryo uwahageze atifuza kuzasohokera ahandi.

Iyi ni inyubako nziza cyane ya hoteli yubatswe mu buryo bugezweho, ifite ibirahure by'ubururu ikaba isakaje amabati atukura ifite imodoka ziyiparitsemo hakaba ubusitani bwiza cyane bukurura abakerarugendo.

Iyi ni inyubako nziza cyane ya hoteri. Iyi nyubako ikaba irimo intebe nziza cyane ndetse n'ameza, hakaba hari n'indabyo ziteguye kandi ziri mu mabara agiye atandukanye nk'umuhondo umutuku, icyatsi kibisi ndetse n'umweru.

Inyubako nziza cyane ya hotel. Iyi nyubako ikaba irimo ameza ndetse n'intebe bimeze neza cyane. Aha bakaba ari aho bakirira abaje babagana ,maze nabo bakababwira ibyo bakeneye. Bakabakirana urugwiro ndetse n'urukundo.

Inyubako nziza cyane ya hoteri ni inyubako yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ifite amakaro ku nkuta, iyi nyubako ifite ibintu ibyo ari byo byose wakenera harimo n'ubwiherero ndetse naho wakogera intoki igihe bibaye ngombwa.

Iyi ni inyubako nziza cyane ya hoteli, iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho ikaba irimo amatara y'amoko agiye atandukanye umuntu wese uhageze arayakunda kandi akayizihirwa, iyi hoteli itanga serivise zigiye zitandukanye.

Iyi nyubako nziza cyane ya hoteli iyi nyubako harimo intebe nziza cyane, ndetse n'ameza aya meza hari harambuyeho igitambaro k'icyatsi ndetse hari n'andi arambuyeho icya move aha hakaba ari muri hoteli itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye.

Iyi ni inyubako ya hoteri ikaba irimo intebe nziza cyane ndetse n'ameza, inkuta zayo zisize irangi ry'umweru, iyo ugeze aha barakwakira bakaguha icyo kunywa, icyo kurya ndetse wakenera no kurara bakakwereka aho kurara maze nawe ukazabishyura ugiye kugenda.

Iyi ni inyubako nziza cyane ya hoteli, iyi nyubako irimo ibitanda bisashe neza hakaba n'imisego, hari akameza gateretseho icupa ry'amazi ndetse umuntu waharaye ntiyifuza kurara ahandi kuko iyi hoteli yakirana urugwiro abayigana.

Iyi ni inyubako nziza cyane ya hoteli hakaba harimo abari bari gutanga serivise ku bakiriya baje babagannye, aho abo bari baba bambaye uturindantoki maze bagaterura amasahani meza bakayashyira abakiriya bayabatumye.

Iyi ni inyubako nziza cyane ya hotel. Ikaba irimo umusore wambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare ndetse n'injire y'umukara n'ipantaro y'umukara. Akaba yambaye agapfukamunwa, akaba ari gutegura icyo kunywa agiye gushyira abakiriya.

Iyi ni nyubako nziza cyane ya hoteli ikaba irimo igitanda gishasheho amashuka meza ariho imisego ndetse ku nkuta isize irangi ryiza cyane ry'umweru n'amatara meza amurikira abayirayimo ntibazigere bifuza kujya ahandi.

Iyi ni inyubako ya hoteli hakaba harimo ameza meza cyane ndetse n'intebe ushobora kwiyicaramo maze ukanezerwa. Aha batanga serivisi zigiye zitandukanye harimo kuguha amafunguro ndetse n'ibyo kunywa wabishaka bakaguha n'aho urara.

Iyi ni inyubako ya hoteli ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, irimo ubusitani bwiza cyane ndetse n'ibiti bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi, aha urahagera bakakwakira bakaguha ibyorya ndetse no kunywa washaka no kurara bakagucumbikira.

Uyu ni umubyeyi ugiye guhahira ku isoko riciriritse cyangwa se isoko ribera ku muhanda, akaba yambaye agakanzu, afite agasakoshi ku rutugu ndetse ateza igitambaro cy'umukara, imbereye hakaba hari amashu akaba ari kuyitegereza.

Iri ni isoko ribera ku muhanda aho abacuruzi bagenda bakarambika hasi ibicuruzwa byabo maze abaguzi bakabihasanga bagaciririkanya, yashima ndetse bakumvikana n'ibiciro akishyura.

Iri ni isoko riciriritse ariko riremwa n'abantu benshi. Iri soko ribera ku muhanda aho buri mucuruzi aba yazanye ibicuruzwa afite maze akagurisha. Aha hari ufite imyenda y'imbere y'abamama ndetse n'undi ufite imyenda mu gafuka.

Iri ni isoko ribera ku muhanda, uyu ni umumama wikoreye amoko y'imyenda agiye atandukanye ndetse akaba afite n'indi mu ntoki, imbere ye hari imodoka ndetse muri iryo soko hari urujya n'uruza rw'abantu baje gucuruza ndetse n'abaje kugura.

Aha ni ahabera isoko riciriritse ryo ku muhanda, hakaba hari ihene ziziritse ku biti ndetse hari umugabo wambaye bote utagaragara neza uri kuzicunga. Aya masoko yo ku muhanda arifashishwa cyane.

Iri ni isoko riciriritse rikaba rimanitsemo imyenda indi ikaba iri ku dutanda, harimo umwana wikoreye imisambi myinshi cyane iri kumuvuna. bigaragara ko nawe agiye kuyigurisha akaba ari gutambuka agana aho ayigurishiriza.

Iyi ni inyubako ya resitatoran ikaba itangirwamo ibyo kurya bya saa sita ndetse n'ibya nijoro. Ni amafunguro ateguye neza cyane ariko ku masahane asa neza, hakaba n'amatasi ushobora kunyweramo amazi cyangwa se icyayi.

Iyi ni inyubako ya resitora ikaba itangirwamo ibyo kurya, harimo umwari bigaragara ko ari ho akora akaba agiye kwakira umukiriya, harimo intebe nziza ndetse n'ameza hakaba amatara amurika mu buryo bwiza ndetse n'igiti gitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo umugabo utwaye igare. Uyu mugabo ahetse amabati agiye kubaka inzu iwe. Iruhande rw'umuhanda hakaba hari inzu z'ubucuruzi ndetse n'abantu bari kuzica imbere hakaba n'akazu ka MTN.

Uyu ni umumotari akaba yaparitse moto yiwe yaratwaye umugenzi. Uyu mugenzi amuhereje kasike ye, maze aramwishyura amaze kumwishyura umumotari amusaba nomero ye kuko ni umwari mwiza cyane ufite ishakoshi.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo uturongo tw'ubururu, imbere hari umumotari wambaye ingofero irinda umutwe ndetse n'umugenzi atwaye arayambaye bakaba bari kugenda, umugenzi areba ku ruhande ahantu hari ipoto ririho insinga nyinshi zijyana umuriro w'amashanyarazi mu bice bigiye bitandukanye.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga cya moto. Uyitwaye yambaye ingofero irinda umutwe ndetse n'uwatwaye arayambaye ahetse n'igikapu, inyuma yabo hari umunyegare nawe ugiye kuyurira.

Uyu ni umumama yambaye neza cyane yambaye ekuteri, akaba ari mu modoka ari we uyitwaye aho ari kuri vora, inyuma ye hari umugabo we bose barishimye. Ni byiza ko n'abamama biga gutwara ibinyabiziga.

Uyu ni umugabo ushoye ibitoki bye ku isoko, apakiye ku igare rye ibitoki bitanu, akaba ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo asunika, arangariye imodoka ziri hakurya y'umuhanda aho bigaragara ko nawe ashaka kujyayo.

Umumotari uri mu muhanda wa kaburimbo, akaba ahetse umugenzi bombi bambaye ingofero zirinda umutwe, hakurya y'umuhanda hari indabyo nziza cyane ndetse hakaba n'imikindo, itanga umuyaga ndetse n'amahumbezi bityo abawugendamo bakanezerwa.

Uyu ni umumotari wambaye jile y'umutuku ya Airtel, yambaye n'ingofero irinda umutwe we nayo y'umutuku ifite ikirahure cy'umukara, moto ye ikaba igize ikibazo akiyambaza umusore uzikora akaba ari kuyimukorera.